Imifuka iri kugaragara ko harimo ifumbire, cyangwa se ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Umurima uteyemo ibirayi, akaba harimo umugabo uri kugaragara ko, uyu mugabo wambaye imyenda y'umukara, uhetse n'ipombo y'umuhondo, biri kugaragara ko ari gufuhira.

Indege iri gutera umuti ibihingwa bitandukanye. Ibihugu byateye imbere indege nizo zitera umuti.

Aba bagabo bari gufuhira igihingwa cy'ibigori, bambaye amasarubeti na bote zisa, ndetse n'amapombo asa.

Umugabo wambaye boti uhetse ipombo y'umuhondo wambaye na bote z'umukara, uri gufuhira amashu.

Umugabo uhagaze imbere ry'ibishingwe, biri kugaragara ko uyu mugabo ari gutwara ibi bishingwe abijyana mu bihingwa bye.

Icupa biri kugaragara ko ririmo imiti igiye itandukanye, ivura ibintu bigiye bitandukanye.

Amacupa abiri biri kugaragara ko arimo imiti yica udukoko, twagiye mu myaka itandukanye.

Abagabo bahagaze, n'undi mugabo upfukamye, biri kugaragara ko uyu mugabo upfukamye, ari gushyira umuti mu igipombo kugira ngo afuhire ibihingwa.

Igihingwa cy'inyanya, bakaba bari kuzifuhira kugira ngo zibashe gukura neza, kandi zitukure neza cyane.

Ishashi iri kugaragara ko irimo umuti batera mu nyanya, bita detane, utuma inyanya zitukura.

Umugabo wambaye isurubeti y'umweru n'umuhondo, uhetse ipombo ameze nk'aho ari gufuhira.

Abantu benshi biri kugaragara ko bari gushyira imvaruganda ku gihingwa cya kawa. Kawa akaba ari igihingwa kizana amafaranga menshi.

Icupa riri kugaragara ko, iri cupa ririmo imiti itandukanye ivura abantu, cyangwa se inyamaswa.

Umugabo ubyibushye wambaye bote ufashe igitiyo uri kuyora ibishingwe ari kubishyira ku bihingwa bitandukanye. Ibishingwe bituma imyaka ikura neza cyane.

Amacupa abiri uri kubona ko abamo imiti yo kwica imyamaswa yo mu myaka.

Icupa rimeze nk'aho harimo imiti itandukanye y'amatungo, cyangwa se iy'ibihingwa bigiye bitandukanye.

Ifi iri ku ipanu iherekejwe n'ibirungo birimo ibitunguru, n'inyanya, na puwavuro bagiye kuyitunganya.

Amafi ari ahantu hamwe, barangije kuyateka, uri kubona ko ameze neza cyane, abantu benshi bakunda amafi.

Ikiribwa kigaragara nk'aho ari inyama giteye apeti kuko bagitetse neza cyane bashyiramo ibirungo bihagije.

Iy'ifi iri ahantu hameze nk'aho bagiye kuyitegura ngo bayiteke, kuko iri kumwe n'ibirungo.

Inyama ziri ku isahani hariho n'amaronji. Izi nyama ziri kugaragara ko zitaratekwa.

Ikiyaga ni cyiza cyane, kuko kizana amafaranga. Abantu bari kurobamo abandi bari kuza kuhareba.

Amafi bashyize ku kibaho bayateguye neza bavuye kuyaroba basigaje kuyateka.

Amafi biri kugaragara ko bayashize mu isafuriya, bayatetse, afite isosi, biri kugaragara neza cyane, ateye apeti.

Ifi iri ku cyokezo, ikaba iherekejwe n'ibirungo bigiye bitandukanye. Ikaba iri kugaragara nk'aho iteye apeti.

Ikiyaga kimeze nk'aho kizengurutseho senyenge, hari ibintu birimo mu nda, biri kugaragara ko biri gukuramo imyanda.

Amafi ameze nk'aho bayashyize ikintu kimeze nk'ikibase, bameze nk'aho bavuye kuyaroba. Amafi ni meza cyane mu mubiri, yongera intungamubiri mu mubiri wacu.

Amafi bayarobye bayashyira muri barafu kugira ngo atangirika.

Amafi ateguye neza, impande yaho hariho n'ibirungo byo kuyarisha.

Abagabo bari mu bwato bw'abapolisi biri kugaragarako aba bagabo bashobora kuba ari abapolisi b'abamarine.

Inyama iri kugaragara ko ari iy'ifi, hejuru hariho ibirungo bitandukanye. Iyi nyama ikaba iri mu gasahani.

Ibiyaga biri hagati mu misozi. Hejuru hatuyeho abantu, ndetse hariho amashyamba.

Bayarobye. Bayafashe ari mu kintu baroberamo amahera ndetse n'amashonzi.

Amahera bamaze kuyaroba ari mu kintu bayarobeyemo.

Amafi biri kugaragara ko ari ahantu hamwe, bavuye kuyaroba mu kiyaga cyangwa se mu mugezi.

Amafi cyangwa se amahera ari ku meza, biri kugaragara ko barangije kuyaroba, bagiye kuyatunganya bakayateka.

Amafi biri kugaragara ko bayarobye bayashyize ahantu hamwe, bagiye kuyatunganya bayajyane mu masoko agiye atandukanye.

Amafi ari muri barafu, bameze nk'aho bavuye kuyaroba, bayashira muri barafu, kugira ngo atangirika.

Abantu benshi bari mu bwato bambaye amajire asa. Bameze nk'aho bari kuroba.

Ifi iteguye neza cyane, iriho ibirungo bihagije, uri kubona ko iteye apeti.

Ibyuzi dushyiramo amafi akiri matoya, yamara gukura bagakamya icyuzi bakayakuramo yarakuze.

Ifi iteguwe neza, iri ku iparato, isigaje kuribwa. Hariho agafiriti, inyanya, n'ibindi birungo.

Amafi bayarobye bayashyira ku kintu kimwe, bayahuriza ahantu hamwe. Bagiye kuyagurisha kandi abantu barayakunda cyane.

Ifi irobye bashize muri barafu. Kugira ngo itangirika, kuko iyo uyishyizemo ntabwo yangirika.

Amafi menshi cyane, bameze nk'aho barangije kuyaroba, basigaje kuyatunganya ngo bayashyire ku isoko.

Igihingwa cy'ibirayi, uri kubona ko bitari byera, biracyari hasi, iyo byeze bihindura amababi.

Umurima uteyemo ibirayi, hirya y'aho hariho ahari hateyemo ibigori, ariko bararabisaruye.

Ibitunguru ni igihingwa cyiza cyane, kuko abantu baragikunda kuko kiryosha ibiryo.

Umurima biri kugaragara ko uyu murima barangije kuwuhinga, basigaje guteraramo ibihingwa bitandukanye, bigaragara ko bashobora kuzateramo ibigori.

Umurima utemo ibirayi, biri kugaragara ko uyu murima urimo ibirayi bitari byera, bikaba bisigaje kuzamuka bamara kubitera umuti bikaba biri kugera mu gihe cyo kwera.

Igihingwa cy'amajeri akaba ari mu murima atari yera, ageze mu gihe cyo kuyanga. Iyo yeze aba yarazanye imishogi bakayisogora nuko bakayateka.

Umurima uteyemo ibigorigori ,barangije gucaho ibigori ,hasigaye umurima utarimo ikintu na kimwe ,basigaje kongera guhingamo.

Inka imeze nk'aho iri mu isambu iri kurisha ubwatsi, umurima umeze nk'aho wavuyemo ibigori.

Igihingwa cya karoti. Karoti ni igihingwa cyiza cyane gikungahaye no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni imboga nziza zongera vitamini mu mubiri.

Igihingwa bita karoti uri kubona ko ziri mu murima barazihigiye zisigaje kwera.

Igihingwa kiri mu ubwoko bw'ibirayi. Abantu benshi bakunda kubihinga, kuko bizana amafaranga, kandi abantu benshi bakunda kubirya.

Umukobwa uvuye kuvoma uko bigaragara ko yikoreye ikidomoro, hirya yaho hariho izubakishije amatafari.

Marakuca ni igihingwa cyiza cyane. Abantu benshi barazikunda cyane kuko ari imbuto nziza zongera vitamine mu mubiri wacu.

Ishyamba riri kugaragara ko nta kindi kintu bahingamo uretse kuba ari ishyamba ririmo ibiti n'ibyatsi byonyine.

Ibigori biri mu murima harimo n'insina, hino yaho hariho icyatsi bita Kameroni.

Umurima wavuyemo ibigori, bakuyemo ibikenyeri basigaje guhingamo.

Igihingwa bita igihaza kiraranda cyamara kuranda kikazana uturabo, uturabo twahava hakazaho gihaza. Abantu bakaba bagikunda cyane.

Ibiti bitandukanye, birimo avoka, ndetse na gereveriya, inyuma yaho hariho ibikenyeri, ndetse n'insina.

Umurima uvuyemo ibigori, hakaba hateyemo insina, hakaba hategereje guhingwamo ibindi bihingwa.

Umurima urimo ibibonobono, barangije gucamo ibigori, bategereje guteramo ibindi bihingwa.

Igitoki bagishyizemo inkingi, kimeze nk'aho kitari cyera.

Umurima abantu bari guhinga mo, hiino ya ho hariho ahantu bakuyemo ibigori, hariho n'igiti.

Ibigori biri mu murima byareze, ariko ntabwo byari byuma ku buryo umuntu yabisarura, akajya kubihunika.

Igihingwa bita amajeri , bikaba biri kugaragara ko ay'amajeri yamezemo ibyatsi bita isanduruma , iyo yeze barayatonora bakayateka.

Ibiti by'imisave bikiri bitoya, babishyize ahantu hamwe, bategereje kubiha abantu ngo bajye kubitera.

Umurima biri kugaragara ko ku murima ari umushike badaheruka kuwuhingamo ibihingwa bitandukanye, biri kugaragara ko ku murima bari barawuteyemo ibijumba.

Umurima uri kugaragara ko bahinzeho igice kimwe kimwe, basigaje ikindi gice, kugira ngo bateremo ibindi bihingwa.

Igihingwa k'ibigori ni igihingwa gikungahawe mu Gihugu cyacu, kandi kivamo igikoma.

Igihingwa cy'amatunda ni gihingwa cyiza cyane gikungahaye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko gifite intungamubiri zikomeye.

Umurima urimo ibyatsi ndetse n'amabuye umeze nk'aho wabaye umushike.

Umurima uteyemo igihingwa cya karoti. Karoti ni igihingwa cyiza cyane, ni imboga abantu benshi barazikunda cyane kuko zongera vitamini mu mubiri.

Ibirayi ni igihingwa cyiza cyane. Abantu benshi bakunda ibirayi. Ibirayi barabihinga byamara kuzamuka bagatangira kubitera imiti, kugira ngo bibashe gukura neza.

Umurima uri kugaragara nk'aho bahinzemo, hirya yaho hariho amabuye, basigaje uyu murima wo guteramo ibihingwa bitandukanye.

Igihingwa cya kawa. Kikaba ari igihingwa gikungahaye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Avoka ni urubuto rwiza cyane. Abantu barushyira ku biryo iyo bagiye kurya, cyangwa se bakarisha ibijumba.

Abantu benshi bari ahantu mu mirima ntangarugero, bateyemo ibihingwa bita amashu.

Itunda ni urubuto rwiza cyane, abantu bararukunda, kuko rufite vitamine zihagije.

Ni umugore wipfutse igitenge mu mutwe, ufashe inkoni ku rutugu biri kugaragara ko, uyu mugore yishimye, avuye mu murima we.

Ibihingwa biri ahantu hamwe hatandukanye, iki igihingwa biri kugaragara ko ari ibinyomoro.

Abantu benshi bari ahantu hameze nk'ahari gukusanyirizwa imyaka yitwa ibirayi. Uri kubona ko ari byinshi.

Umugore uri guhinga mu muririma, umeze nk'aho ari guteramo ibigori, cyangwa se ibindi bitandukanye.

Intama ni itungo rigufi abantu barorera mu rugo kandi rikura vuba.

Utubuto bita intutu ni utubuto twiza cyane, turaryoherera, abantu benshi n'abana baradukunda.

Amatarasi y'indinganire. Biri kugaragara nk'aho aya materasi ateyemo ibihingwa bitandukanye, kuko amaterasi aba ari meza cyane, atuma hatabaho isuri.

Igihingwa cy'ibijumba. Ibijumba bikaba bikungahawe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi biraryoha cyane.

Intogi iyo zeze barazisoroma, bamara kuzisoroma bakazivangura izitukuye n'izidatukuye, bakazijyana mu masoko izidatukuye.

Umuhinzi uri mu myaka ye y'ibigori , ibigori n'igihingwa cyiza cyane.

Imyembe ndetse n'ibinyomoro ni imbuto nziza cyane zongera vitaminini mu mubiri wacu.

Umugore uri gukorera igihingwa cya avoka, kuko cyamezemo ibyatsi byinshi, ari kubigabanya, kugira ngo kibone aho gikurira.

Ibicuruzwa bitandukanye, birimo ibirarayi, imiteja, pavuro, n'ibindi bitandukanye.

Igihingwa kiri mu bwoko bw'ibijumba, bikaba abantu babikunda cyane, kuko byongera imbaraga mu mubiri.

ibisheke birambitse ku nzira, ibibisheke bikaba biri kugaragara ko biri gucuruzwa.

Benshi bahuriye ahantu hamwe, bari kugaragara nk'aho bari mu nama, inama y'umudugudu.

Ipapayi ni igihingwa kiza cyane, biri kugaragara ko iki gihingwa harimo amapapayi yeze, n'andi atari yera, asa n'icyatsi.

Umugore wipfutse agatambaro, n'umupira w'ubururu, terefone, uri mu birayi bitari byera.

Abantu batatu ,barimo umugabo umwe bafashe amashu, bari kwerekana ko yeze.

Abantu benshi bari mu ngeri zigiye zitandukanye uri kubona ko bafashe ibiti bagiye kubitera.

Umugabo upakiye ibicuba kuri moto ndetse no ku igare, bikaba birimo amata.

Umugabo uri mu nsenda bakunda kwita piripiri, udusenda twa kera dutukura dusungoye.

Amajeri ni igihingwa cyiza cyane, gikungahaye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Amajeri abantu barayakunda cyane.

Umugabo wambaye isurubeti y'icyatsi n'ingofero uri kuvomerera ibitunguru.

Ibirayi byiza cyane biri gucuruzwa. Hariho umukobwa wambaye agapfukamunwa, uri kubicuruza.

Abantu benshi bagiye batandukanye bari guhinga mu mirima , iteye neza cyane biri kugaragara ko ari mu materasi.

Amatunda ni igihingwa cyiza. N'imbuto abantu benshi bakunda cyane , kuko zifite intungamubiri.

Amatunda ni igihingwa cyiza cyane, gikungahaye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda n'imbuto nziza cyane, zongera vitamini mu mubiri.

Umufuka urimo ifu, biri kugaragara ko ino fu ari iy'amasaka. Iyi fu wayikoramo umusururu, cyangwa se ukayibeteshamo igikoma.

Imashini ikora injugu, injugu bakaba bazikora mu bigori bisa nk’umuhondo.

Umusaza uteruye ibigori, avuye kubica mu murima. ibigori birikugaragara ko agiye kubiteka cyangwa se kubyotsa.

Inkoko ebyiri, urabona ko zitandukanye, imwe ni isake iyindi ni' inkokokazi.

Abagore bari guhinga mu ishyirahamwe Bishimye bari no kuganira.

Ibishyimbo biri mu bwoko bw'intonore, babyita nyiragikoti nziza cyane.

Umugabo uri mu gihingwa k'ibigori, wambaye isengeri y'umuhondo, uri kwerekana ko ibigori bye byeze.

Igihingwa cy'imyumbati ni igihingwa cyiza cyane, kizana amafaranga menshi cyane. Abantu bakabasha kwiteza imbere.

Igihingwa k’imyumbati biragaragara ko uyu mugabo n‘uyu mugore bavuye gukura ino myumbati kugira ngo bayijyane mu isoko.

Umugabo uhagaze mu murima w'ibirarayi biri kuyanga, ibirayi biri kugaragara ko bigeze mu gihe cyo guterwa umuti uhagije.

Ibijumba ni igihingwa cyiza cyane cyongera imbaraga mu mubiri wacu.

Amateke ni igihingwa cyiza cyane abantu barakunda cyane kuko aryoha, kandi agira n'amafu, kandi yongera imbaraga mu mubiri.

Abantu bashoberanye bafite amasuka ku rutugu, biri kugaragara ko bavuye gukora umuganda.

Inkoko ziri ahantu hamwe ziri gutoragura ibiryo byazo bazigaburira, zirimo amasake ndetse n'inkokokazi zikaba, ziri gutoragura.

Indimu ni urubuto rwiza cyane. Abantu bararukunda, kuko rukiza indwara nyinshi.

Amashu ni igihingwa cyiza cyane kuko ni imboga, abantu benshi barazikunda.

Abantu bahagaze imbere y'ibiti, bavuye kubifata, ngo babijyanye ahantu kubitera mu mirima yabo.

Igihingwa kitwa ibishyimbo biri kugaragara ko ibishyimbo byumye, basigaje kubihunika.

Umugabo uhagaze impande y'imashini, iri gufuhira imyaka y'ibigori.

Imiteja ni imboga nziza cyane. Abantu benshi barazikunda cyane kuko zongera intungamubiri mu mubiri.

Igihingwa cyiza cyane bakunda kwita amapapayi. Ipapayi iyo yeze iba isa n'umuhondo n'aho yaba iteze ikaba isa n'icyatsi.

Inanasi ni imbuto nziza cyane. Zigira umutobe uryoshye, abantu barazikunda cyane kuko zifite vitaminini zihagije.

Umwembe ni urubuto rwiza cyane abantu benshi bararukunda cyane, kuko rufite vitamini n'imyunyungugu rwongera mu mubiri w'umuntu.

Umugore wicaye imbere y'ibintu ari gucuruza birimo za omo, pampegisi ndetse n'ubuyebwa n'indagara. Bigaragara ko ari gucururiza ku muhanda.

Inkoko iri mu bwoko bwa dendo , dendo n'inkoko igira amahane cyane.

Ibigori bishishe neza cyane, bigaragara nk'aho ibi bigori bitari byera, bikaba bisigaje kumisha amababi, kugira ngo bibe byeze.

Imyumbati ni igihingwa cyiza cyane, gikungahawe no mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kuko abantu benshi baragikunda cyane.

Isoko biri kugaragara ko bacururizamo amatungo magufi harimo intama, ndetse n'ihene, hariho abantu bagiye batandukanye.

Avoka ni igihingwa cyiza cyane. Kuko iyo yeze urayihanura, wamara kuyihanura ukayitara, yamara gushya ukayirisha ibiryo.

Ibihingwa by'ibirayi babishyize mu mufuka. Ibi birayi bitegereje gufungwa bakabijyana mu masoko agiye atandukanye.

Karoti n'imboga abantu benshi barazikunda, kuko zifite vitamini n'imyunyungugu byongera mu mubiri.

Umugore uri mu bishyimbo bikiri bitoya, biteye ku murongo, umugore wambaye bote, igisurubeti cy'ubururu.

Amasaka arambitse ku nkoko, amasaka yumye yarangije kuma neza, basigaje kuyabetesha bakayanywamo igikoma.

Igihingwa cy'ibijumba ni igihingwa gikungahaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ibijumba abantu barabikunda cyane.

Igihingwa kiri mu bwoko bw'amapapayi. Amapapayi ni igihingwa cyiza cyane ni imbuto abantu benshi bakunda.

Abagore babiri bari guhingira insina, ndetse n'imigozi. Biri kugaragara ko aba bagore bari guhinga bishimye.

Igihingwa kiri mu bwoko bw'imboga bita amashu. Ni imboga nziza abantu barazikunda.

Ibigori byarwaye indwara bita nkongwa. Itobagura amababi iyo utabiteye umuti.

Ibirayi ni igihingwa cyiza cyane, gikungahaye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Kuko kizana amafaranga menshi cyane.

Imyumbati bayikuye, bayishyira ahantu hamwe, imyumbati myiza cyane, kuko yongera imbaraga mu mubiri.

Igihingwa cy'icyayi, icyayi n'igihingwa cyiza gitanga akazi ku bantu benshi cyane.

Umwumbati ni gihingwa cyiza kuko cyongera imbaraga mu mubiri wacu.

Umumama uri gutera igihingwa cya kawa. Kawa igihingwa cyiza cyane, kuko kizana amafaranga menshi cyane ku baturage.

Igihingwa cyo mu bwoko bw'amateke bita amabwayisi ni meza cyane, kuko abantu barayakunda.

intoryi ni igihingwa cyiza cyane, abantu benshi baragikunda cyane, kuko ni imboga nziza cyane.

Igihingwa bitaga igitoki kikaba abantu benshi bagikunda kuko kiryoha cyane.

Igihingwa cy'ikawa. Ikawa ni igihingwa cyiza cyane, kizana amafaranga menshi.

Amashu n'igihingwa gikungahaye hano mu gihugu cyacu . Ni imboga nziza cyane abaturage bakunda.

Umumama uri kurenga ibishyimbo umeze nk'aho ari kubicuruza muri butike ye.

Abantu benshi bari mu murima, bameze nkaho bari guhingira ibihingwa bitandukanye.

Inanasi ziri ku meza, ziri gucuruzwa inanasi nyinshi kandi abantu barazikunda.

Abantu bameze nk'aho bari mu ishyirahamwe ry'ubuhinzi, biri kugaragara ko bari mu mashu kandi bishimye.

Inanasi ziri mu murima, harimo inanasi zeze, izindi nanasi zitar izera, abantu bakaba bazikunda bazikunda cyane

Igihingwa cy'amatunda, aya matunda ari kugaragara ko yumye, izuba ryayakubise, cyangwa se umuntu akaba yayatemye.

Ibicuruzwa bitandukanye birimo, ibinyomoro, amatunda, n'amaronji n'ibindi bitandukanye, biri kugaragara ko hari imbuto.

Icunga ni mu urubuto rwiza cyane, abantu bararukunda, kuko rufite intungamubiri mu mubiri.

Abantu benshi bari mu murima, bari gusarura igihingwa cy'ibirayi. Ibirayi ni byiza cyane, abantu benshi barabikunda.

Igihingwa cy' ibigori ni igihingwa cyiza cyane, kizana amafaranga menshi kuko iyo byeze barabihungura, bamara kubihungura bakabijyana mu masoko.

Ibicuruzwa bigiye bitandukanye, birimo uduhunga tw'imiceri, n'amasukari biri kugaragara ko hano hantu babiranguza.

Ibicuruzwa bigiye bitandukanye, birimo intoryi, karoti, n'ibindi byinshi.

Umugabo uhagaze mu mbuto z'amatunda wambaye agapfukamunwa, hirya ye hariho insina.

Igihingwa kiriri mu bwoko bw'amapera, amapera ni meza cyane, abantu barayakunda cyane, kuko ni urubuto rwiza.

Umugore wambaye nk'abaganga, cyangwa se abadogiteri. Wambaye ingofero y'umweru, n'isurubeti y'umweru, ameze nk'aho ari gufotora imyaka.

Igihingwa bita ibinyomoro kikaba ari igihingwa cyiza cyane abantu benshi baragikunda kuko cyongera amaraso m'umubiri.

Ibirayi biri mu mufuka. Ibi birayi babyita kuruseke. Abantu barayikunda.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe, biri kugaragara ko bari kwiga ku gihingwa cy'imyumbati. Ikaba ikungahaye hano mu gihugu cy'u Rwanda.

Umurima utemo ibigori ni byiza cyane, bizana umusaruro uhagije kandi bigateza imbere abantu vuba.

Umugabo uri gukorera ibigori bikiri bitoya, bimeze neza cyane. Bisigajwe kubirundurira, ubundi bagategereza ko byera.

Umukecuru uteruye ibiti mu ntoki biri kugaragara ko avuye kubifata kugirango ajye kubitera k'umurima we.

Amateke ari kwiseta bacururizaho ibicuruzwa bigiye bitandukanye.

Ibirayi biri m'ubwoko bwa kuruseke , abantu barayikunda cyane kuko igira amafu.

Abantu benshi bitandukanye harimo abagore n'abagabo, biri bigaragara ko bari gutera mu murima ibintu bitandukanye.

Amatunda ni urubuto rwiza cyane bararukunda kuko rwongera intungamubiri.

Igitoki kitari kera kiri hejuru, kikiri ku nsina. Iyo igitoki keze ubona ko nta mirunko iri kuri iryo bere ry'igitoki.

Umukecuru wishimye, ufashe ibiti byitwa gereveriya, biri kugaragara ko agiye kubitera.

Ibigori iyo byeze bakabisarura ,babijyana mu buhunikiro bwabugenewe kugira ngo bigire umutekano uhagije.

Igihingwa cy'ipera, ipera ni ryiza cyane, kuko abantu benshi bararikunda cyane.

Amaronji ni igihingwa cyiza cyane. Ni imbuto abantu benshi barazikunda cyane kuko zongera intungamubiri mu mubiri wacu.

Ikibaya biri kugaragara ko bateyemo igihingwa cy'ibigori, hejuru ari mu misozi, ruguru hariho amazu asakaje amategura.

Umugabo uteruye imyumbati. Uyu mugabo akaba arangije gukura iyi myumbati mu murima we, akaba agiye kuyigurisha cyangwa se kuyiteka.

Igihingwa bita pwavuro, ni igihingwa cyiza cyane. Abantu benshi bakunda kugiteka mu nyama kuko kizana icyanga.

Abagabo bari gupakurura ibitoki, mu modoka hasi hariho umugore umeze nk'aho ari kubakontorora kugira ngo batabyangiriza.

Isoko riri kugaragara ko rino soko ririmo ibihingwa bigiye bitandukanye, bivangavanze. inyanya, pwavuro, ibihaza n'ibindi bitandukanye.

Isoko bacururizamo ibirayi, uri kubona ko ari ibirayi byinshi cyane, hariho n'umuhungu wambaye agapira k'umuhondo, uri kubicuruza.

Igihingwa cy'ipera, ipera ni igihingwa cyiza cyane. Abantu benshi baragikunda, kuko ari urubuto rwiza cyane.

Voka iteguye, uri kubona ko ihiye. Iyi voka, igaragara nk'aho iryoshye cyane.

Imyumbati ni igihingwa gikungahaye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Abantu benshi barayikunda cyane.

Ibigori bitari byuma ariko byarangije kwera, bisigaje kumisha amababi kuko byamaze gukomera.

Voka nziza cyane, uri kubona ko zifite icyanga. Voka zongera vitamini mu mubiri.

Ibirayi ni igihingwa cyiza abantu benshi bakunda kurya ibirayi kuko byongera imbaraga mu mubiri.

Amatunda ni meza cyane, afite intungamubiri ku bantu bakuru ndetse n'abantu b'abana, ni itunda rikungahaye mu Rwanda.

Abantu benshi bari mu murima, bari guhingira igihingwa dukunda kwita amashu.

Ibigori byarumye, barabisarura, babipanga ahantu habugenewe, kugira ngo bitangirika.

Umugore uhetse igitebo mu mugongo, biri kugaragara nk'aho uyu mugore ari gusoroma icyayi. Icyayi cyongera umusaruro mu Rwanda.

Umurima uhinze mu buryo bugezweho, ukaba usakaye, ukaba uteye ku buryo buringaniye.

Igihingwa kiri kugaragara ko kiri mu bwoko bw'ibishimbo, kuko bigaragara hariho n'indabo z' umutuku.

Ibishyimbo biri ahantu hamwe ndi kubona ko byamaze gushora imizi kugira ngo bimere.

Ibihingwa bita ibishyimbo biri kugaragara ko babisize ahantu, bikaba ibihingwa cyangwa se ibishyimbo bikaba biri kumera.

Igihingwa cya soya kikaba gikungahaye no mu gihugu cy' u Rwanda abantu benshi bakaba bazikunda kuzivanga mu biryo.

Ubunyobwa bweze neza, barabwanika, uri kubona ko basigaje kubukaranga, cyangwa se kububetesha.

Igihingwa cy'amajeri. Akaba akungahawe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Araryoha cyane, abaturage barayakunda.

Ibishyimbo biri ahantu hamwe uri kubona ko ibishyimbo byareze barabisarura.

Igihingwa kiri mu bwoko bw'amajeri, abantu benshi bakunda amajeri, kuko ari meza cyane, araryoha.

Ibihingwa bita ibigori bimanitse ahantu bubatse, h'ibiti. Biri kugaragara ko bino bigori bashaka kugira ngo bitazagira ikibazo.

Ibishyimbo bitondetse ku murongo. Ibishyimbo iyo ukibitera bitangira gushora imizi ikagenda ikura kugeza igihe kigereye hejuru.

Igihingwa kiri mu bwoko bw'amasaka, amasaka ni igihingwa cyiza cyane, dukuramo igikoma, ndetse n'umusururu.

Igihingwa bita igihwagari. Igihwagari kikaba ari igihingwa bakoramo amavuta atandukanye.

Igihingwa kiri mu bwoko bw'ibishyimbo. Abantu benshi barabikunda cyane, kuko byongera imyunyu ngugu na vitamini mu mubiri.

Igihingwa bita igihwagari kikaba kivamo amavuta atandukanye. Iki gihingwa kikaba giteye nk'ibishyimbo.

Ibiryo biri mu isahani, babyita impungure, harimo agasosi gake.

Igihingwa cy'ibigori, bikaba byareze akabisarura akabijyana kubimanika , mu ihunikiro ryabugenewe kugira ngo bitangirika.

Amasaka ni igihingwa gikungahawe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kizana amafaranga kandi bashigishamo igikoma.

Ibigori bihunguye, ikindi kigori kimwe kidahunguye, ibigori bihunguye, iyo byumye bajya kubibetesha.

Amasaka ni igihingwa cyiza cyane. Abantu benshi barayakunda cyane, kubera ko iyo yeze bayabetesha, bagakuramo ifumu, ifu bagakuramo igikoma.

Ibishyimbo biteye ku murongo, babishingiriye neza cyane, uri kubona ko bigeze mu gihe cy'imishogoro.

Ibigori by'amahundo bamaze gusarura, barabimanitse kugira ngo bigire umutekano.

Amajeri ni igihingwa cyiza cyane. Abantu benshi barayakunda cyane, kuko ni igihingwa gikungahaye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Ingano ni impeke nziza cyane. Abantu barazikunda bakuramo n'imbada.

Igihingwa bitaga ibishyimbo uri kubona ko babishyize mu mifuka, bategereje kubifunga bakabihunika.

Umugore wicaye witwikiye umutaka, n'undi wicaye uri gukuraho ubunyobwa. Ni igihingwa cyiza cyane abantu bakunda kugihinga i burasirazuba.

Igihingwa bita ubunyobwa, bukaba bukunda kwera ahantu hashyushye, nko mu burasirazuba n'ahandi hashyuha cyane.

Igihingwa kiri m'ubwoko bw'ubunyobwa, ubunyobwa n'igihingwa gikunda kwera mu burasirazuba.

Ikigori cyeze ariko kitari cyuma ku buryo wagihunguramo, ukakibeteshamo igikoma.

Igihingwa bita ubunyobwa, ubunyobwa ni igihingwa cyiza cyane gikunda kwera mu Burasirazuba hashyuha cyane.

Ibishyimbo byumye neza barangije kubihura, kubigosora barabiyobora, bakabishyira mu mifuka yabugenewe.

Ibishyimbo by'imitonore babyogeje babirambika ahantu ku ntara, bagiye kubitonora babiteke, ibyo bita imitonore.

Intonore ni ibishyimbo byabaga bitari byuma, babaga barabisoromye ari imitonore, bakabisohora bakabiteka.

Igihingwa bita amasaka. Amasaka ni igihingwa cyiza cyane, kuko iyo yumye bakoramo igikoma ndetse bakayinika, bagakuramo n'umusororo.

Inzu biri kugaragara ko bashyiramo umusaruro w'igihingwa bita ingano, bakaba bakuramo imbada, ndetse bagateka n'umutsima bakunda kwita igikwanga.

Imiteja iri ahantu mu gikarito, iri kugaragara nkaho bagiye kuyigemura ahantu, mu masoko agiye atandukanye.

Ibigorigori byumye bakuyemo ibigori , hasigara ibigorigori.

Abantu b'abamama bateruye inkoko iriho ibishyimbo bigiye bitandukanye, uri kubona ko bari kwifotoza.

Igihingwa cya tungurusumu ni igihingwa cyiza cyane, kuko tungurusumu ni umuti uvura indwara zitandukanye.

Abagore benshi bafashe intara bari kugosora amasaka, kugira ngo babashe kuyashyira mu mufuka bayahunike ameze neza.

Igihingwa bita amasaka, kikaba ari igihingwa cyiza cyane, kivamo inzoga, ndetse bagakuramo n'igikoma.

Igihingwa cy'ubunyobwa. Ni bwiza cyane, abantu barabukunda cyane, kuko barabukaranga kandi bakaba banabuvanga mu biryo, babubetesheje.

Amajeri ni igihingwa gikungawe hano mu gihugu cyacu cy’u Rwanda. Abantu bayavanga mu biryo kuko aryoha cyane.

Ibishyimbo biteye ku mirongo, ibishyimbo bimeze nk'aho ari ibishyimbo bigufi, biteye neza cyane.

Igihingwa cy'umuceri bakunda kugihinga ahantu mu gishanga, kuko mu misozi ntago cyakeramo.

Igihingwa cy'ingano ni igihingwa cyiza cyane, gikunda guhingwa ahantu mu misozi igiye itandukanye, kuko niho zera.

Ibigorigori biba ari ibigori bahunguye, bagasigaza ibitiritiri byavuyeho ibyo bigori.

Ibihingwa bigiye bitandukanye, babishize mu bisahani binini, bari kubigurisha, akaba ari impeke zigiye zitandukanye.

Ubunyebwa ni igihingwa cyiza cyane cy'impeke, iyo bwumye bakabusarura ,barabutonora ,bamara kubutonora, ukabukaranga.

Ibigori byeze, biruma, babipakira mu mifuka, bagiye kubigemura muyandi masoko atandukanye.

Ibigori byinshi bamaze gusarura. Bari kubyanika kugira ngo babashe kubihungura, ngo babigemure mu masoko.

Imifuka ipanze ahantu, biri kugaragara ko harimo ibintu bitandukanye bagiye kugemura mu masoko.

Igihingwa bita amasaka, bigaragara ko atari yera, kuko iyo yeze biba bigaragara hejuru.

Ingurube z'ibibwana zikiri ntoya bari kuzigaburira, ziri kugaragara ko izi ngurube zifite igikuriro gishimishije.

Ingurube ni itungo abantu bororera mu rugo, iri tungo rikaba ritanga umusaruro byihuse.

Ibibwana by'ingurube biri mu kiraro, biri kurisha ubwatsi. Ibibwana biri kugaragara ko bifite igikuriro gishimishije.

Umugabo biri kugaragara ko ari kuvura ihene yagize ikibazo mu ivi. Kuko afashe ikintu kimeze nk'urushinge.

Abagore n'abagabo bafashe utubwa dutoya, bameze nk'aho bavuye kudukingiza cyangwa se bakaba bagiye kutuvura.

Inkoko biri kugaragara ko ziri ahantu bazororera, mu ifamu cyangwa se mu kibuti cyazo, biri kugaragara ko ziri kurya ibiryo byo kuzitunga.

Inka imeze neza. Ihagaze ahantu hameze nko mu rwuri, uri kubona ko hari inka zirenze imwe.

Inkoko ziri ahantu mu ifamu, ziri kugaragara nk'aho ziri kunywa amazi. Izindi ziri kurya ibiryo byo kuzitunga.

Inkoko ziri ahantu bameze nk'aho bazororeramo. Izi nkoko ziri kugaragara nk'aho ziri gutoragura ibiryo byazo bazigaburira.

Umugabo uri gutunganya mu kiraro cy'ingurube ye, uri kubona ko iyi ngurube iri gukura neza.

Abantu bari kugaragara ko bafashe, ingurube akaguru bameze nk' aho bari kuyivura cyangwa se bagiye kuyitera vitamini.

Inka nyinshi zisa umweru ndetse n'umukara. Izi nka ziri kugaragara ko bagiye kuzikingira.

Inka ifite amahembe manini, ikaba iri mu kiraro, iyi nka ikaba ifite amabara y'igitaka.

Ingurube yabwaguye ibibwana byiza cyane, bisa n’umweru n’umukara. Ibibwana byiza cyane, abantu barabikunda.

Inkwavu ni itungo rigufi bororera mu rugo, kandi rigira inyama nziza cyane.

Inyama nziza cyane, kugaragara ko izi nyama baziteguye, bameze nk' aho bagiye kuziteka ari_

Ingurube imeze nk'aho ifite amezi, ikaba yenda kubwagura ibibwana by'ingurube. Ibibwana by'ingurube iyo bikuze na byo birabwaguraga.

Inkoko ziri mu ifamu ziri kugaragarako izi nkoko bari kuzipima ngo barebe ibiro izi nkoko zifite byo kugaragarako zikiri ntoya.

Umugabo uri gukama inka mu buryo bwa kinyarwanda. Amata ni meza cyan, abantu barayakunda, kuko afite intungamubiri.

Inkwavu biri kugaragara ko izi nkwavu ziri kurisha ibyatsi, izi inkwavu zikaba ziri mu kibuti cyazo.

Abagabo babiri bateruye ikibwana cy'ingurube , uri kubona ko kino kibwana cyabashije gukura neza.

Ingurube iri mu kiraro ifite ibibwana, uri kubona ko yabwaguye ibibwana byiza.

Ingurube nyinshi ziri kugaragara ko izi ngurube ziri mu ifamu. Izi ngurube zikaba zimeze nk’aho zitegereje ibiryo.

Inkoko zo mu bwoko bw' imishwi, uri kubona ko ari inkoko ziri mu ifamu.

Inkoko ziri mu bwoko bwa deriko, uri kubona ko izi nkoko zifite igikuriro, inkoko ziri mu bwoko bw'inyama.

Inkwavu eshatu ziri ahantu hamwe, zirimo iz'umukara, ndetse n'umweru, n'igitaka. Inkwavu ni nziza cyane, zizana umusaruro.

Umuganga uri kuvura inka , biri kugaragara nkaho iyi nka ifite ikibazo runaka.

Ingurube imezeze nk'aho yabwaguye ibibwana, abantu bameze nk'aho bari kuyishungera.

Inka bari kuzikingira indwara zigiye zitandukanye, kugira ngo izi nka zitazagira ibibazo zigapfa.

Inka nyinshi ziri mu rwuri, ziri kurisha ibyatsi, izi nka zifite amabara y'umweru n'umukara.

Umugabo uhagaze imbere y'ibibuti by'inkwavu ameze nkaho ari kuzigaburira.

Ihene ni itungo rigufi, abantu borora mu rugo. Bigaragara ko uy' umugore ari kurikingira uburwayi.

Inka bayiziritse mu kanwa, biri kugaragara ko iyi nka bari kuyivura cyangwa se bakaba bagiye kuyikurura.

Inka y'ubwoko bw'ikimasa gifite amahembe atambitse, gifite amabara y'igitaka, n'ay'umweru.

Umugore uri gukurura intama mu nzira, birikugaragara nk'aho avuye kuzigura, cyangwa se agiye kuzizirika ngo zibone ubwatsi.

Umugabo uri gukorera inkoko amasuku. Biri kugaragara ko izi nkoko ari nyinshi, ziri mu ifamu. Utazikoreye isuku, zarwara.

Amahene menshi, ameze nk'aho ari mu ifamu, harimo umugabo uyiteruye, wambaye isurubet y'umweru.

Umukobwa uri mu nkoko uri kuzigaburira, uri kubona ko hari inkoko nyinshi ziri mu ifamu.

Inka nziza y'amabara y'umweru n'umukara, iri mu kiraro yishimye neza, iri kurya ubwatsi.

Inka nyinshi ziri m'ubwoko bw'inyambo, inyambo n'inka zabagaho mbere ariko ubu zaragabanutse.

Umugabo ufashe inyama mu ntoki. Biri kugaragara ko arangije kuzibaga. Izi nyama zikaba zitunganyijwe neza, zikaba zifite isuku ihagije.

Inkoko nyinshi ziri ahantu hamwe, zimeze nkaho ziri mu ifamu.

Inka ifite amabara y'umweru ndetse n'igitaka biri kugaragarako iyi nka ari imbyeyi.

Imbwa nyinshi ziri ahantu mu kibuga, ziri kumwe na banyirazo bagiye kuzikingiza.

Abagabo benshi bari kumwe n'abaganga, bameze nk'abo bari kuvu ihene.

Abantu batatu bameze nk'aho ari abaganga, bari kuvura imbwa yarwaye indwara.

Abaganga biri kugaragara ko bari kuvura ikintu cyangwa se bari kuvura umuntu, kuko hari abahagaze n'abandi bari gukora.

ingurube ni itungo rigufi bororera mu rugo. Iyo ribwaguye, ribwagura ibibwana, byamara gukura bakabigurisha, bakabikumo amafaranga menshi cyane, bakiteza imbere cyane.

Inyoni iri mu bwoko bw'ibiguruka, ifite ibara risa n'umukara, ikaba ifite umunwa usongoye.

Inyoni ifite amabara atandukanye, umuhondo, umukara n'umunwa umunwa usongoye.

Inkoni iri kurira igiti, inyoni yitwa ndondananga, ikunda gucukura ibiti.

Inyoni iri mu bwoko bw'ibiguruka bita inuma ikaba ari nziza cyane, ikaba abantu bazorora mu rugo.

Inyoni iri mu mababi y'ibishyimbo, yarayatobaguye, yarayariye. Inyoni biri kugaragara ko irya ibishyimbo bikiri bitoya.

Inyamaswa yo mu bwoko bw'inkende biri kugaragara ko iri kumwe n'akana ka yo, kuko inyamaswa iragateruye.

Inyamaswa yo mu bwoko bw'isatura, iba mu ishyamba ikaba ikunda kugira ubugome ni inyamaswa.

Akanyoni kameze nk'aho kari gushaka ibigatunga mu rurabo. Ururabo rumeze neza cyane, kuko inyoni ishakamo ibiyitunga.

Imbeba ni akanyamaswa gakunda kuba mu mwobo. Gakunda kuba mu nzu kakarya imyaka.

Igihangara ni inyamaswa ikuruza inda. Abantu benshi bakaba bagitinya kuko kigira ubugome.

Inyamaswa ziri mu bwoko bw'ibiguruka byitwaye nk'ibisiga, bifite amababa y'umweru ndetse n'umukara,..

Inyoni ziri mu bwoko bw'ibiguruka bakunda kwita imisambi, zikunda kuba mu gihugu cy'u Rwanda.

Inyayamaswa yo mu ishyamba, igaragara ko iyo nyamaswa yakuze neza, kuko irabyibushye cyane.

Inyamaswa yo mwishyamba bita ingurube y'ishyamba.

Akanyamaswa kari mu bwoko bw'igishuhe, igishuhe gikunda kuba mu mazi.

Inyamaswa ziri mu bwoko bw'ibiguruka, nabugereranya n'imisambi. Biri gushaka amasonzi cyangwa ibindi bisimba mu mazi.

Ibisiga biri mu bwoko bw'ibiyongoyongo biba bifite umujosi muremure.

Imbata ni inkoko nziza cyane, yororerwa mu rugo, ikaba itera amagi, ndetse ikaba yanakwarura nk'inkoko bisanzwe.

Inyoni iri mu bwoko bw'inuma. Ikaba ari inyoni nziza cyane zitera n'amagi, kandi abantu barayarya.

Ingagi n'inyamyamaswa iba mu birunga, hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ingagi zizana ba mukerarugendo.

Ingagi ikaba ikunda kuba mu birunga, ingagi izana amadovize kuko abanyamahanga baza kuzisura.

Igisiga kiri mu bwoko bw'ibiguruka, gifite umuzozi utambitse, kikaba gifite amabara y'umukara n'ay'umweru.

Inyoni y'isandi iri gukora icyari cyayo cyo kuzajya ibamo, ikaba ifite amabara y'umuhondo, ndetse n'amabara y'umukara ku munwa.

inyoni yo mu bwoko bw'ibiguruka biri kugaragara ko iyi nyoni ivuye gushaka inshonzi mu mazi hasi, ikaba ifashe inshonzi mu kanwa.

Akanyamaswa kari mu bwoko bw’urukururanda, bakunda kwita igihangara. Ni kibi cyane, kikurumye ushobora kugira ikibazo.

Inyamaswa bakunda kwita imbogo. Ni inyamaswa ikunda kuba ahantu mu mashyamba, ikaba igira amahane menshi cyane.

Indabo nziza cyane hariho akanyoni kari kuguruka kari kuzihahamo.

Inyoni iri mu bwoko bw'amasande bukunda kuba mu rubingo. Afite amabara y'umuhondo ndetse n'ay'igitaka.

Inyoni iri mu bwoko bw'ibiguruka bakunda kwita ikiyongoyongo, ikiyoyongo ni inyoni ifite umujosi muremure.

Inyamaswa bita urukwavu rwo mu ishyamba, ruhagaze ahantu mu byatsi, ruri kugaragara nk'aho hari ikintu ruri kureba.

Imbeba yo mu ishyamba , imbeba ikaba ari akanyamaswa gatoya kaba mu ishyamba , gakunda kurya imyaka y'abaturage.

Inyoni uri kubona ko yafashe ihera. Inyoni igiye kurirya.

Inyoni ziri mu bwoko bw'ibiguruka. Izi nyoni zikaba zimeze nkaho ari ibyene nyina kuko zirasa, kandi ziri kumwe, ziri mu biti.

Icyana cy'ingagi, ingagi ni nziza cyane kuko zikurura ba mukerarugendo bakazana amadovize.

Inkende iri mu giti iryamye, igaramye, yashyize akaguru ku kandi.

Akanyamaswa bita inkende, ni akanyamaswa kagiye kwitwara nk'abantu, kaba mu mashyamba.

Inyoni iri mu bwoko bw'inkoko. Biri kugaragara ko inyoni cyangwa se iyi nkoko iri kurya ibyatsi.

Imbeba ikirenga ifite amabara y'igitaka n'amabara y'umukara.

Inyoni iri mu bwoko bw'igisiga bita kagoma ikunda kujyana ibintu biremereye cyane.

Inyoni iri ku giti yafashe igiserebanya. Ndi kubona ko inyoni iri kukirya.

Igisiga kiri mu bwoko bw'inyoni ziguruka mu kirere zikunda gutwara inkoko z'abaturage.

Igishuhe gikunda kuba mu mazi, kikaba gikunda kurya amafi, kikaba gikunda koga cyane.

Akanyamaswa kari mu bwoko bw'ibikururanda kitwa igiserebanya. Igiserebanya kiba kigiye kumera nk'icyumvu.

Inyamaswa bita igisamagwe. Ni inyamaswa igira ubugome, kandi ikaba ari inyamaswa ikunda kujyana n'inyamaswa bita ingwe.

Inyayamaswa yo mu bwoko bw'ibikururanda. Bayita inzoka, ni mbi cyane, kuko irarumana.

Inyamaswa yo mu bwoko bw'ibiguruka bakunda kwita dendo. Ikaba ari inkoko igira amahane cyane.

Urukwavu rwo mu ishyamba. Urukwavu rwo mu ishyamba, ruba rumeze nk'aho ari akanyamaswa katasubira kororerwa mu rugo.

Akanyamaswa kari mu bwoko bw'inguge. Inguge ni akanyamaswa kaba kagiye gusa nk'inkende.

Akanyoni keza cyane gahagaze ahantu ku giti, sinzi ibintu kari kureba.

Utunyamaswa two mu ishyamba bita ishya. n'akanyamaswa kagiye kwitwara nk'ihene, abantu borora.

Akanyamasyo ni akanyamaswa kagira ubute kagenda gahoro cyane, hejuru kagira uruntu rukomeye cyane kuko ntiwabasha kukamena.

Inzovu ni inyamaswa nini cyane ikunda kuba mu mashyamba. Inzovu nta mahane igira, ikaba imbere hariho umugabo bari kumwe.

Akanyamaswa kari mu bwoko bw'ibiguruka, gafite amaguru maremare, n'amababa maremare k'umukara.